Muri farumasi harimo imiti zitandukanye bitewe n'uburwayi urwaye. Usangagamo umuganga akaguha ibinini ndetse n'indi miti inyuranye, maze nuko ukamuha amafaranga. Kandi ibiciro bibaga bihanditse.

Izi ni indabyo zinyuranye ,zigaragaza ubwiza, iyo uzikeneye urazifataga ,ukagenda ukazitera, kugira ngo ziguhe ipumuro.